Ahantu mu nyubako ya kaminuza, iberamo imikino, imyidagaduro ndetse n'inama, hateraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye ndetse bafite uducupa tw'amazi imbere yabo, aba bakaba bakurikiranye itsinda ry'abantu riri imbere yabo ribasusurutsa.

imbaga nyamwinshi y'abantu, yateraniye ahantu heza hatwikiriye ndetse hari ubwatsi butoshye, aha hakaba harimo abagabo bambaye impuzankano z'igipolisi cy'Igihugu ndetse n'abambaye iz'igisirikare cy'Igihugu, bakaba bakurikiranye ubutumwa bari guhabwa n'umuntu uri imbere yaho.

Umubyeyi w'umugore, wambaye imyambaro ifite ibara ry'ubururu bwijimye, afite igitabo mu ntoki ndetse n'indangururamajwi, ari kwifashisha ageza ubutumwa ku bamukurikiye, ibi bikaba ari mu bukangurambaga, bwiswe "bikorerwe mu isibo".

Umubyeyi w'umugore wambaye imyambaro igezweho, ifite amabara arimo umutuku ndetse n'umukara, ari imbere y'imbaga nyamwinshi, aho ari gusobanura byinshi ku bijyanye n'indwara y'ubushita bw'inkende, abwira abantu uko bayirinda ndetse n'uburyo ikwirakwiramo.

Kimwe mu bikoresho by'umuziki byakundaga kwifashishwa cyane cyane n'Abanyarwanda bo mu Rwanda rwo hambere. Iki gikoresho kikaba kitwa umuduri ndetse kikaba gikozwe mu cyuma gihese cyangwa se igiti gihese ndetse n'agacuma kamanyuye.

Ahantu mu nyubako ya kaminuza irimo intebe ndetse n'ameza hateraniyemo imbaga nyamwinshi y'abantu, aba bakaba bakurikiye itsinda ry'abantu bari imbere yabo bambaye imyambaro ya gakondo bari kubasusurutsa.

Igikoresho kizwi mu muco nyarwanda nk'umuvure, iki gikoresho kikaba gikoreshwa mu kwenga ibitoki, maze bakabikuramo umutobe, uwo mutobe na wo ukifashishwa mu gukora ikinyobwa kizwi ku izina ry'urwagwa.

Mu nyubako nini ya kaminuza ikorerwamo ibintu bitandukanye birimo imikino, imyidagaduro ndetse n'inama hahuriyemo abantu benshi bafite amacupa imbere yabo arimo ibyo kunywa. Bakaba bari gususurutswa n'itsinda riri imbere yabo ririmo abagore babiri bambaye imyambaro izwi ku izina ry'imikenyerero.

Igikoresho cyera ku ruyuzi rurandaranda, iki gikoresho kikaba cyitwa igicuba, kikaba gikoreshwa mu mirimo itandukanye, irimo gucunda amata ndetse n'iyindi.

Mu bwatsi butoshye bufite ibara ry'icyatsi kibisi harimo ishyo ry'inka zizwi ku izina ry'Inyambo, izi nka ni ikimenyetso cy'umuco nyarwanda, zifite amahembe maremare agoronzoye, hari kandi n'umugabo uzitaho wambaye umwambaro ufite ibara ritukura.

Abantu bateraniye mu nyubako iberamo imikino ndetse n'imyidagaduro, bakaba bari gususurutswa n'itsinda rigari ry'abagore, bambaye imyambaro izwi mu muco nyarwanda nk'imikenyero, aba bakaba bari kubyinira abantu babakurikiye.

Umugore wambaye umwambaro uzwi ku izina ry'umukenyero mu muco nyarwanda ufite ibara ry'umweru. Uyu kandi yambaye n'urunigi mu ijosi akaba ari gukoma amashyi anaririmba asusurutsa abantu bari imbere ye.

Ahantu hateganyijwe hari imbaga nyamwinshi y'abantu ndetse hatatse neza, hari abakobwa babiri bambaye imyambaro izwi ku izina ry'imikenyerero ikunzwe cyane mu muco nyarwanda, aba bari kubyina imbyino gakondo, basusurutsa abitabiriye ibyo birori.

Abakozi bakora imirimo y'amaboko ndetse bakorera ikigo gishinzwe amashanyarazi mu Rwanda, bari gukora imirimo yo kuzamura igiti gikoreshwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi uva ahantu hamwe ujya ahandi.

Ahantu habugenewe hari ibikoresho bitandukanye bikozwe mu byuma ndetse byifashishwa mu gukusanya umuriro w'amashanyarazi, iyo ukiva ku rugomero mbere y'uko woherezwa mu baturage ngo ukoreshwe, ibi bikoresho bikaba biba birimo umuriro w'amashanyarazi bityo bikaba bikumiriwe ko hagira umuntu ubyegera mu rwego rwo kugira ngo hatagira impanuka iba.

Umugore wambaye imyambaro y'akazi ukora mu kigo gishinzwe ingufu n'amashanyarazi, uyu kandi akaba yambaye n'ingofero ifite ibara ry'umuhondo imurinda mu gihe cy'impanuka, akaba kandi ari ahantu hakusanyirizwa umuriro w'amashanyarazi mbere yuko woherezwa aho ujya gukoresherezwa.

Icyapa kinini gifite amabara y'umweru ndetse n'inyuguti zandikishije ibara ry'umutuku n'umukara. Iki cyapa kikaba cyerekana ahaherereye ikigo gishinzwe ingufu ndetse n'amashanyarazi mu Karere ka Nyagatare.

Umugabo wambaye imyambaro y'akazi irimo inkweto zabugenewe ndetse n'ingofero imurinda mu gihe cy'impanuka, yuriye umuyoboro w'amashanyarazi aho agiye gukemura ikibazo kiri gutuma amashanyarazi adakora neza.

Inyubako nyinshi zirimo izituwemo n'abantu ndetse n'izikorerwamo ubucuruzi, imbere y'izi nyubako kandi hari ibiti birebire biriho imigozi y'amashanyarazi byifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi uvanwa ahantu hamwe ujyanwa ahandi.

Ahantu higeye umusozi muremure uriho ibimera bitandukanye birimo n'ibiti hakaba hakusanyirizwa umuriro w'amashanyarazi iyo ukiva ku rugomero mbere yo kugira ngo ujyanywe mu ngo z'abaturage cyangwa se n'andi aho ariho hose uba ukeneye gukoresherezwa.

Umugabo ukora mu mirimo ijyanye no gusakaza umuriro w'amashanyarazi, arikurira igiti cyifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi uva ahantu hamwe ujya ahandi, ni byiza cyane ko mu gihe ibi bikoresho by'amashanyarazi bigize ikibazo duhamagara ababishinzwe, aho kugira ngo tubyishoremo kuko bishobora kuba byateza impanuka.

Uruhererekane rw'ibikoresho birebire bikozwe mu byuma, byifashishwa mu gukura amashanyarazi ahantu hamwe ajyanwa ahandi. Urugero twavuga nko mu inganda ziyakoresha ndetse no mu ingo aho abantu bayakoresha ibikorwa bitandukanye birimo guteka ndetse n'ibindi.

Inyubako nziza cyane zubatswe mu buryo bumwe zubakishije amatafari ndetse zisakaje, amabati y'umutuku. Iruhande rw'izo nyubako kandi, hakaba hari amatara yo ku muhanda, amurika mu gihe kijoro.

Inyubako ifite amabara atandukanye arimo ay'ivu, umweru ndetse isakaje amabati y'ubururu, iyi nyubako ikaba imanitseho icyapa gifite ibara ry'icyatsi kibisi ndetse n'umweru gishushanyijeho inka y'inzungu, muri iyo nyubakokaba hakaba hacururizwamo imiti y'amatungo.

Uruganda rufite inyubako zubakishije amabati ndetse n'izubakishije amatafari ahiye, uru ruganda rukaba rutunganya amata akoze mu ifu maze rukayajyana ku masoko aho agurwa n'abaturage maze agakoreshwa mu ngo.

Ahantu hateganye n'umusozi muremure uriho ibihingwa bitandukanye birimo izina ndetse n'ibiti, hari inyubako zubatswe mu buryo bugerekeranyije ndetse n'ibinyabiziga biri mu muhanda, n'awo ufite amatara abonesha mu gihe cy'ijoro.

Ikiraro cyubatswe mu buryo bugezweho, gikozwe mu byuma ndetse n'ibiti, iki kikaba cyifashishwa mu kwambuka uva ahantu hamwe ujya ahandi, na nonene kandi kikaba gitatswe n'amabara, arimo ubururu, umuhondo n'icyatsi kibisi, agize idarapo ry'igihugu.

Inyubako zubatswe mu buryo bumwe, zubakishije amatafari ahiye, zifite inzugi z'umweru ndetse zisakaje n'amabati y'umutuku. Iruhande rw'izo nyubako hari umuyoboro ukozwe mu byuma byifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi.

Inzu nziza ifite amabara y'umweru ndetse ishushanyijeho n'icyapa cyanditseho ijambo gira ubuzima. Iyi nzu ikaba ikorerwamo ibijyanye n'ubuvuzi bw'indwara zitandukanye ikikijwe kandi n'ubusitani burimo indabo ndetse n'ibyatsi bitoshye.

Imbaga nyamwinshi y'abantu irimo abagabo ndetse n'abagore yateraniye ahantu hamwe. Aba bakaba bakurikiye abandi bantu, bari imbere yabo, barimo abayobozi ndetse n'abaturage, bahawe ibikoresho by'ikoranabuhanga, bakaba bari kubyerekana.

Imbere y'inzu nziza yubakishije amatafari ndetse isakaje amabati y'ubururu, hakoraniye imbaga nyamwinshi y'abantu. Aba bakaba barimo abayobozi ndetse n'abagabo bambaye impuzankano z'igisirikare ndetse n'igipolisi k'igihugu, bakaba bari kugeza ibiganiro ku baturage bakoraniye.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bamwe muri bo bambaye impuzankano z'igipolisi k'igihugu ndetse n'igisirikari k'igihugu. Aba bakaba barimo kandi abari kwerekana impamyabushobozi bahawe.

Mu kibuga kinini cyisanzuye gikorerwamo ibijyanye no kwigisha ibinyabiziga, byaba amapikipiki, imodoka ndetse n'ibindi. Iki kibuga gikikijwe n'ubwatsi butoshye ndetse n'umuyoboro unyuramo amazi y'imvura.

Mu rwego rwo kugira ngo ubwikorezi bw'abantu ndetse n' ibintu bworohe, Leta y'u Rwanda yafashe ikemezo cyo gushyira imodoka zitwara abantu ndetse n'ibintu mu buryo bwa rusange mu muhanda. Izi zikaba zorohereza abaturage bashaka gukora ingendo.

Imbaga nyamwinshi y'abantu irimo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu bwatsi butoshye aho bakurikiranye umuntu uri imbere yabo ari kubagezaho ikiganiro ku bijyanye n'ingingo zitandukanye, nanone kandi hari ibihingwa birimo insina zera ibitoki byaba ibikorwamo imineke cyangwa se n'ibindi biribwa.

Itsinda rigari ry'abantu, barimo abayobozi ndetse n'umugabo wambaye imyambaro y'igisirikare cy'igihugu, bahuriye ahantu hamwe, hakorerwa ibikoresho bituruka ku mbaho, izo mbaho zikaba zifashishwa mu gukora ibikoresho birimo nk'intebe, ameza ndetse n'ibindi.

Imbere y'inyubako iberamo imikino itandukanye ndetse n'imyidagaduro, cyane cyane umupira w'amaguru, hari ikinyabiziga cyiza cyane gifite ibara ry'umukara cy'imodoka. Iki kikaba cyifashishwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu na none kandi hari ubusitani bwiza burimo n'ibiti.

Ahantu munsi y'igiti ndetse hari ibyatsi, hateraniyemo itsinda rigari ry'abantu barimo abagabo ndetse n'abagore, bakaba bari mu nama ndetse hakaba hari n'umugore uri kugeza ahantu ho ubutumwa, yifashishije indangururamajwi.

Itsinda rigari ry'abantu biganjemo abagabo ndetse n'ababyeyi bafite abana bakiri bato, cyane cyane abari munsi y'imyaka itanu, bateraniye ahantu hamwe aho bari gukurikira umuntu uri imbere yabo, ari kubagezaho ikiganiro ku bijyanye n'umutekano.

Ahantu hateraniye imbaga nyamwinshi y'abantu, bamwe bicaye ahantu hatwikiriye neza, ndetse n'abandi bahagaze ku ruhande. Aba bakaba bakurikiye ikiganiro bari guhabwa n'umugabo ushinzwe umutekano wambaye impuzankano z'igipolisi cy'igihugu.

Imbaga nyamwinshi y'abantu, irimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye imbere y'umurima uhinzemo ibihingwa by'isina byera ibitoke, hakaba hari kandi n'umugabo ufite indangururamajwi uri kuganiriza aba baturage.

Itsinda rigari ry'abantu barimo abayobozi ndetse n'umugabo wambaye impuzankano z'igisirikare k'igihugu, bakaba bafite amabuye bagiye gukoresha mu bwubatsi. Aba kandi bakaba bari impande z'umurima urimo ibigori bishishe.

Mu kibuga kigezweho cy'umupira w'amaguru, gifite ubwatsi butoshye, harimo amakipe ari gukina umupira w'amaguru. Na none kandi, harimo umugabo ndetse n'umugore bambaye imyambaro ifite amabara y'umukara n'umweru. Aba bakaba bari kwiruka.

Mu kibuga gifite ubwatsi butoshye bwiza ndetse n'imirongo y'icyatsi kibisi harimo amakipe abiri, agiye gukina umukino w'umupira w'amaguru ibi bikaba ari mu rwego rwo kuzamura imiyoborere myiza duharanira ko umuturage aba ku isonga.

Itsinda ry'abasore bambaye imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ifite amabara y'ubururu ndetse n'icyatsi kibisi, rikaba riri ahantu mu kibuga gifite ubwatsi butoshye, bakaba bari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ahantu habera ibikorwa bitandukanye birimo imikino ndetse n'imyidagaduro hari itsinda ry'abagabo barimo abambaye impuzankano y'Igipolisi k'Igihugu, aba bose bakaba bari kureba umukino w'umupira w'amaguru.

Mu kibuga cyiza cyane gifite ubwatsi butoshye bw'ibara ry'icyatsi kibisi, harimo umugabo wambaye imyambaro igezweho, nanone kandi harimo umusore wambaye imyambaro yifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, uyu akaba ari gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Ahantu habera imikino ndetse n'imyidagaduro mu kibuga gifite ubwatsi butoshye, harimo amakipe abiri yambaye imyambaro yo gukorana imyitozo ngororamubiri ifite amabara atandukanye. Aba bakaba bari gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Mu kibuga kiza cyane gifite ubwatsi butoshye, bufite ibara ry'icyatsi kibisi, harimo abagabo bambaye imyambaro ifite amabara arimo umuhondo ndetse n'ubururu bwijimye .Aba bombi bakaba bari gukina umukino uzwi cyane ku izina ry'umupira w'amaguru.

Mu kibuga cy'umupira kitarimo ubwatsi hahuriyemo amakipe abiri agiye gukina umupira w'amaguru, iki kibuga kandi kikaba gikikijwe n'inzu zituwemo n'abantu ndetse n'ibiti birebire bitanga umwuka wo guhumeka.

Abanyeshuri biga mu mashuri abanza bambaye imyambaro y'umutuku ndetse n'umukara, aba bari mu myiyerekano y'imikino njyarugamba aho utsinda ahabwa ibihembo bishimishije.

Mu kibuga cy'umupira gifite ubwatsi butoshye ndetse gifite n'igice kitariho ubwatsi, harimo amatsinda abiri y'abagabo, bambaye imyambaro yo gukoresha imyitozo ngororamubiri idasa, aba bombi bakaba bari gukina umukino w'umupira w'amaguru.

Imbere y'inzu nziza ituwemo n'abantu ndetse isakajwe amabati, hari umuhanda w'ibitaka .Muri uwo muhanda dusangamo umubyeyi w'umugore ufite akana ndetse ahetse akandi mu mugongo.

Hagati y'inzu zituwemo n'abantu harimo umuhanda udakozwe, uyu muhanda ukaba urimo ibyatsi ndetse bikaba bigaragara ko udaheruka gukorerwa isuku, hari kandi n'ibikoresho byifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi unyuze mu kirere ndetse n'ibiti birebire.

Mu muhanda wa kaburimbo ufite ibara ry'umukara ndetse n'umurongo unyuramo w'umuhondo, harimo ikinyabiziga k'iipikipiki n'umugabo ugitwaye, uyu akaba yambaye ingofero imurinda mu gihe k'impanuka.

Umuhanda mwiza wa kaburimbo wubatswe mu buryo bugezweho ufite amabara y'umukara ndetse n'umurongo uwunyuramo w'umuhondo. Uyu muhanda ukaba ukikijwe n'inzira z'abanyamaguru aho buri wese aba agomba kumenya uruhande rwe rwo kunyuramo mu rwego rwo kugira ngo adateza impanuka.